Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakaba bambaye impuzankano ibaranga, inyuma yabo hari ikibaho mwarimu yandikaho mu gihe arimo kubigisha, handitseho imibare ndetse n'amagambo.

Ababyeyi barimo kwigisha abana b'inshuke, kumenya ibice bigize umubiri, ni byiza kwigisha abana bakiri bato ibice bigize umubiri kubera ko bamenya uburyo bagomba kubyitaho ndetse no kubigirira isuku mu buryo bworoshye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bicaye mu ishuri barimo kwiga mu rwego rwo kugira ngo bahabwe ubumenyi, bakorewe ibikoresho bingana n'uko bareshya mu rwego rwo kugira ngo bajye babone uko biga ndetse n'uko bandika.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari mu ishuri barimo kuganira, bicaye barebana ku meza mu rwego rwo kugira ngo babone uko bahana ibitekerezo.

Abana b'incuke bari mu ishuri, bakaba barimo kwiga bafite ibitabo, barimo gusoma mu rwego kugira ngo biyungure ubumenyi. Bagiye bicaye ku ntebe ari benshi mu rwego kugira ngo babone uko basomera hamwe. Iruhande rwaho hari ikibaho bandikaho.

Abana b'inshuke barimo kwiga, barimo kwigishwa kwandika ndetse no gusoma, ni byiza kwigisha abana kwandika no gusoma kubera ko bituma bakura bafite ubwenge, kandi bafite mu mutwe hagutse.

Abantu babiri barimo kwigisha abana b'incuke, mu rwego kugira ngo babongerere ubumenyi bityo mu gihe kizaza bazabe abantu basobanutse. Ni byiza kwigisha abana bakiri bato kuko bituma bakura neza.

Abanyeshuri b'incuke bari mu kibuga bakaba barimo gukina ndetse baganirizwa n'abarezi babo, ni byiza kuganiriza abana bakiri batoya kuko bituma bishima ndetse bakanisanzura.

Abana batoya b'inshuke bicaye ku musambi, bakaba bari kumwe na mwarimu wabo arimo kubagaburira, barimo kunywa igikoma. Ni byiza kwita ku bana bakiri batoya kuko bituma bagira imikurire myiza, bagakura mu bwenge ndetse no mu buryo bw'umubiri.

Abana b'incuke bahurijwe hamwe, bakaba baje kuganirizwa n'abarezi babo, ni byiza guteranyiriza abana bakiri bato ahantu hamwe kuko bituma basabana ndetse bakiyumvanamo, abarezi aba ari ngombwa ko bateranya abanyeshuri mu rwego rwo kugira ngo bisanzurane.

Abana b'incuke bicaye ku musambi, bakaba bicaye mu buryo bw'uruziga mu rwego rwo kugira ngo babone uko baganira ndetse basabane. Ni byiza gushyira abana ahantu hamwe kuko bituma bagira mu mutwe hagutse bityo bagatangira gukora ibintu byiza. Iruhande rwabo hari umubyeyi w'umumama ubafasha kwiga.

Abana b'inshuke bicaye ku musambi buri mwana afite amata mu ntoki arimo kuyanywa, hakaba hari umugabo urimo kubafasha mu rwego rwo kugira ngo babiteho bazagire ubuzima bwiza.

Abana b'incuke bicaye hamwe barimo kuganirizwa kugira ngo bamenye uko bakwiye kwitwara ndetse n'ibyabagirira umumaro, hakaba hari umugabo ndetse n'umugore barimo kubaganiriza, bisa n'aho ari abajyanama b'ubuzima.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakaba bari gukinira iruhande rw'ishuri bigamo mu rwego rwo kugira ngo bidagadure, gukina ni ingenzi kuko bituma ubwonko bw'umwana bukura neza bityo yakiga agafata ibyo yigishijwe.

Abana b'incuke, bicaye ku musambi, bakaba barimo kugaburirwa igikoma, hakaba hari ababyeyi babiri barimo kubitaho, ni byiza kwita ku bana b'incuke mu rwego kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ndetse bagire n'ubumenyi bufite ireme.

Abana b'inshuke bateraniye ahantu hamwe bakaba barimo kwiga, hari umwarimu urimo kubafasha gusubira mu masomo mu rwego rwo kugira ngo abongerere ubumenyi, ahantu bateraniye ni ahantu hapavomye, iruhande rwaho hari ibigega bibiri bifata amazi.

Abana b'incuke bicaye mu ishuri bigiramo, bakaba bicaye barebana mu rwego kugira ngo mwarimu bimworohere kubigisha kuko abana babona uko bahanahana ibitekerezo. Ni byiza kwicara abanyeshuri barebana, kuko bituma biyumvanamo.

Abana bato b'incuke bicaye ku musambi, bakaba bafite ibikombe mu ntoki zabo barimo kunywa igikoma, iruhande rwabo hari umubyeyi w'umumama urimo kubareberera areba ko batari buze kuryana. Ni byiza ko abana bahurizwa hamwe bagasangira, kuko bituma bagirana urukundo.

Abana b'abanyeshuri barimo gukina ku bikinisho bakorewe mu rwego rwo kugira ngo bidagadure, imbere yabo hakaba hari ishuri bigamo risakaje amategura.

Umunyeshuri ufite ikayi n'ikaramu akaba arimo kwandika imibare mu rwego kugira ngo igihe azajya aba arimo gusubiramo ibyo mwarimu yamwigishije bizamworohere, ni byiza kwandika mu ikayi igihe mwarimu arimo kukwigisha.

Icyumba kirimo ameza arambuyeho igitambaro cy'ubururu ndetse n'umweru, hakaba hari intebe umuyobozi uhakorera yicaraho mu gihe arimo gutanga serivise, hejuru hari ifoto igaragaza umuyobozi uhakorera.

Umwarimu w'umumama urimo kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, abereka amafoto bagasobanura ibyo bari kubona ibyo ari byo, ni byiza kwigisha abanyeshuri ibidukikije kugira ngo bamenye ibigize isi dutuyemo.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, abahungu bambaye impuzankano ya kake n'aho abakobwa bambaye impuzankano ya kotoni, ni byiza kwambara impuzankano y'ishuri kubera ko bituma aho unyuze hose bamenya ko uri umunyeshuri.

Abana b'abanyeshuri barimo kwiga, abakobwa bambaye impuzankano ya kotoni, naho abahungu bambaye impuzankano ya kaki, hagati yabo hari ibitabo barimo gusoma bungurana ibitekerezo, mu rwego rwo kugira ngo abafite ubumenyi n'abadafite ubumenyi bazamurane.

Ishuri ririmo intebe nyinshi cyane abanyeshuri bicaraho mu gihe barimo kwiga, akaba ari intebe zorohereza abanyeshuri kubona uko bandika mu mu makayi yabo, imbere hari ikibaho mwarimu yandikaho igihe arimo kwigisha.

Inzu abarimu babikamo ibikoresho bifashisha mu gihe barimo kwigisha nk'ibitabo, amakaye ndetse n'ibindi, hakaba harimo utubati dupanzemo ibitabo ndetse n'ameza ateretseho ibitabo bifashisha mu gihe barimo kwigisha.

Igipangu gishushanyijeho abana bambaye impuzankano y'ishuri, bigaragara ko ari igipangu kizitiye ikigo cy'amashuri. Nibyiza kujyana abana ku mashuri mu rwego rwo kugira ngo biyungure ubumenyi.

Ameza ariho ibintu bitandukanye byifashishwa mu gikoni, hariho amasahani, ibiyiko ndetse n'ibindi, ni byiza kwegeranya ibikoresho wakoresheje urya kuko iyo utabikoze biteza umwanda.

Umuntu urimo gutambuka ahantu hasakaye, akaba ari ahantu hameze nko mu bitaro, imbere hari ikigo arimo kuganaho mu rwego rwo kugira ngo asabe serivisi kandi ayihabwe mu buryo bwiza butunganye.

Mudasobwa zihabwa abana batoya biga mu mashuri abanza mu rwego rwo kugira ngo batangire bigishwe uburyo ikoranabuhanga rikora. Ni byiza gutangira kwigisha umwana akiri mutoya uburyo yamenya gukoresha ikoranabuhanga.

Abana b'abanyeshuri barimo gukina, abandi bakaba bafite amasafuriya mu ntoki, bagiye gutwaramo ibyo kurya, ni byiza kugaburira abana ku ishuri kubera ko bituma biga neza ndetse bagatsinda neza.

Abanyeshuri bicaye mu buryo bw'amatsinda, akaba ari abanyeshuri biga mu mashuri abanza, abakobwa bambaye impuzankano ya kotoni n'aho abahungu bambaye impuzankano ya kake, ni byiza kwigira mu matsinda kuko bituma abanyeshuri bahana ibitekerezo.

Ikibaho cyanditseho amagambo agaragaza ko hari umukoro wahawe abanyeshuri mu rwego kugira ngo bakomeze kwiyungura ubumenyi. Ni byiza kwigisha abanyeshuri warangiza ukabaha umukoro wo mu rugo kubera ko bibafasha kugera mu rugo bagasubira mu masomo bigishijwe.

Akabati gateretseho ibikombe bitandukanye by'amashimwe. Iyo umuntu akoze igikorwa runaka cy'indashyikirwa, ahabwa igikombe ashimirwa ibyiza yakoze cyangwa se yagezeho.

Igikuta kiriho ibipapuro bishushanyijeho amasaha, handitseho n'amagambo afasha abanyeshuri kumenya uburyo babara amasaha. Ni byiza kwigisha abanyeshuri cyangwa se urubyiruko uko babara amasaha kuko birafasha.

Ikigo cy'amashuri cyubatse mu buryo bwiza buzengurutse ku buryo abanyeshuri bahiga badashobora gutoroka uko bishakiye, imbere mu kigo hakaba hahinze ibigori ndetse n'ibiti bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Abanyeshuri barimo gutambuka iruhande rw'ishuri, bigaragara ko ari mu gihe cyo gukina. Ni byiza kwiga kubera ko bituma umunyeshuri yitegura kuzaba umuntu mwiza usobanutse bityo agatyaza ubwenge.

Ikigega cy'umukara kijyamo litiro igihumbi, akaba ari ikigega giteretse mu busitani ndetse umumaro wacyo akaba ari ugufata amazi aturuka ku nyubako igihe imvura yaguye.

Abanyeshuri bahagaze mu kigo cy'aho biga, hakaba hari abahagaze iruhande rw'ibiraro bororeramo inkwavu mu rwego rwo kugira ngo bamenye inkwavu zabo imikorire yazo. Ni byiza korora inkwavu ku ishuri kubera ko bituma abana bamenya imirimo ijyanye n'ubworozi.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza, imbere yacyo hakaba hari abanyeshuri bahiga, bambaye impuzankano ya kotoni, bikaba bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri abanza kuko abana bakiri batoya, ni byiza kwiga kubera ko ari byo bituma umuntu yiyungura ubumenyi.

Igikuta kiriho igipapuro, akaba ari igipapuro gishushanyijeho ibikoresho by'amoko atandukanye byambarwa, harimo ikanzu, ishati, furari, ingofero, ipantaro ndetse n'ibindi.

Utubati turimo ibitabo byinshi cyane, byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga ndetse no mu gihe barimo basoma, mu rwego rwo kugira ngo biyungure ubumenyi. Gusoma ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi kubera ko bituma umenya ibintu byinshi cyane utari uzi.

Umuntu ufite ikayi n'ikaramu, akaba arimo kujya areba ibintu muri terefone abyandika. Ni byiza kwandika amakuru yose ufite muri wowe, mu ikayi mu rwego rwo kugira ngo wizere neza ko ibintu byawe byose bibitse neza kubera ko ushobora kubyibagirwa cyangwa se terefone ikibwa.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ibaranga amashati ya buresiyeri ndetse n'amakabutura ya kake, bahagaze mu idirishya barimo kurunguruka bareba abandi banyeshuri basigaye mu ishuri. Ni byiza kwiga kuko bituma umuntu agira ubumenyi bwisumbuyeho.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, akaba ari abana b'abahungu ndetse n'ab'abakobwa. Abahungu bambaye impuzankano ya kacye, mu gihe abakobwa bambaye impuzankano ya kotoni. Ni byiza kwambara imyenda ikuranga mu gihe uri umunyeshuri kubera ko iyo uri kujya ku ishuri, bituma abantu bagutandukanya n'abandi.

Irembo rigaragaza ikigo cy'amashuri cya gurupe sikorere ofisiyeri de Butare, akaba ari irembo rigaragaza ko ariho abantu bose bahaje bagomba kunyura cyangwa se abantu bahaturutse ariho bagomba gusohokera. Ni byiza kugaragaza irembo ry'urugo runaka.

Abanyeshuri bicaye hamwe, imbere hakaba hari abayobozi barimo kubaganiriza, ubona ko ari igikorwa cyitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, ni byiza kuganiriza urubyiruko rw'abanyeshuri kubera ko bituma bamenya uburyo bakwiye kwitwara.

Icyumba cyo kuraramo, kikaba kirimo ibitanda byinshi bitandukanye, buri gitanda kirashashe ndetse hagiye hateretseho ibikapu ba nyirabyo babikamo imyenda. Ni byiza gusasa igitanda cyawe igihe ubyutse kubera ko ahantu urara hasigara hasa neza.

Ishuri ryigirwamo ririmo ibikoresho bitandukanye byifashishwa, hakaba hari intebe mwarimu yicaraho, hari ibikoresho byifashishwa mu kwigisha, hakaba hari isanduku eshatu mwarimu abikamo ibikoresho by'abanyeshuri mu gihe arimo kubigisha, inyuma ye hakaba n'ikibaho yandikaho.

Ikibaho cyifashishwa mu gihe abanyeshuri barimo kwiga ndetse n'igihe mwarimu arimo gusobanurira abanyeshuri amasomo atandukanye, akaba ari ikibaho cyanditseho amagambo y'umweru yandikishijwe ingwa, akaba ari ikibaho cy'umukara, hasi yacyo hakaba hateretse ameza.

Ababyinnyi bazamuye amaboko barimo gushayaya, bakaba bambaye imyenda y'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu, inyuma hakaba hari abantu barimo gukoma amashyi bakaririmba abandi nabo bakabyina, hari n'umukaraza urimo kuvuza ingoma.

Ikigo cy'amashuri cyubatse mu buryo bw'umuzenguruko, akaba ari amashuri yubatse atambitse, hagati harimo inzira abanyeshuri banyuramo ndetse n'ikibuga bakiniramo.

Umuhanda ushashemo amabuye hakaba hari abanyeshuri barimo gutambuka ubona ko ari mu gihe cyo kuva ku ishuri, hakaba hari imodoka zitwara abanyeshuri, hari iy'umweru ndetse n'iy'umuhondo.

Abanyeshuri bari mu ishuri bakaba barimo kuganirizwa n'abarezi babo babigisha uburyo bakoresha mudasobwa, ni byiza kwigisha urubyiruko rw'abanyeshuri uburyo bakoresha mudasobwa kuko aba ari rwo Rwanda rw'ejo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri barimo kuganirizwa na mwarimu, mu rwego rwo kugira ngo bungurwe ubumenyi. Ni byiza kuganirizwa mu gihe uri ku ishuri kubera ko bituma ugira imico myiza ndetse n'imyifatire.

Abantu bane bahagaze imbere y'umuryango bakaba barimo gukomanga bisa naho baje kureba umuntu ukorera muri iyi nzu, si byiza gukora amakosa kubera ko iyo ukoze amakosa abantu barahurura.

Umuhanda w'igitaka utambika, hepfo yawo hakaba hari igipangu gishushanyijeho udusimba ndetse n'abantu, ubona ko ari ku kigo cy'amashuri y'inshuke mu rwego rwo kugira ngo bereke abantu ko batanga uburezi ku bana batoya.

Abanyeshuri bateranyirijwe hamwe mu kigo cy'amashuri bigamo mu rwego rwo kugira ngo baganirizwe bahabwe indangagaciro ndetse na kirazira bigize umuco nyarwanda, ni byiza kwigisha abanyeshuri indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwateraniye hamwe, rukaba rurimo kuganirizwa n'umuyobozi mukuru wa polisi ndetse n'umuyobozi w'ikigo cy'amashuri, mu rwego rwo kugira ngo bamenyeshe abanyeshuri imico ikwiye, ikwiye kubaranga ndetse n'uko bakwiye gutanga amakuru ku bintu babonye bidakwiye.

Irembo rigana ku kigo cy'amashuri, hakaba hari umuharuro uteyeho indabo n'umunyeshuri uri gusohoka ku ishuri. Akaba ari ikigo gikikijwe n'ibiti birebire kandi byinshi, ubona ko bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Abanyeshuri bari mu ishuri bakaba barimo kuganira bose bambaye impuzankano y'ikigo bakaba barimo kuganira, imbere yabo hari umusore urimo kubaganiriza, abaganiriza ingingo runaka.

Ikigo cy'amashuri akaba ari amashuri yubatse neza ubona ko yubatse mu buryo bukurikiranye, ni byiza kubaka amashuri ahagije mu gihugu kubera ko bituma abanyeshuri bose bajya ku ishuri bakiga kandi bagatsinda neza.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye impuzankano ibaranga, akaba ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bateraniye ahantu hamwe mu rwego kugira ngo batembere basure ahantu nyaburanga, bakaba bari ahantu mu gikombe ubona ko hari isoko y'amazi.

Inzu yubatse mu buryo butambitse akaba ari inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite imiryango myinshi cyane y'umutuku, imbere hashashe amabuye ubona ko batarayipavoma, ni byiza gupavoma inzu kubera ko bituma hirindwa ivumbi ndetse n'imbaragasa.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye akaba ari inyubako yubatse mu buryo butambitse, inyuma yayo hakaba hari ubusitani buteyemo indabo mu rwego rwo kugira ngo hase neza, abaza bahagana babone ko ari ahantu hitabwaho, hirya hari abantu bari kuza gusaba serivisi hakaba hari n'umunyonzi uri ku igare.

Ishusho ya bikira Mariya yubakiye iruhande rw'ikigo cy'amashuri, bigaragaza ko ari ikigo cy'abihay'Imana. Ibigo by'abihay'Imana aba ari ibigo byiza cyane kubera ko byigisha abana indangagaciro nziza.

Abanyeshuri barimo kwiga basobanurirana mu rwego kugira ngo bafashanye, ni byiza gusobanurirana mu gihe muri mu ishuri kubera ko bituma mwese muzamurana mugatsinda neza kandi bigatuma n'ikigo kibona amanota meza.

Abanyeshuri bicaye hamwe, ubona ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano, hejuru ni amashati y'umweru, hasi ni amapantaro ya kake, ni byiza kwambara impuzankano mu gihe uri umunyeshuri kuko bigutandukanya n'abandi.

Abanyeshuri bicaye bateraniye hamwe bakaba baje kumva icyo umuyobozi mukuru wabo yabateganyirije, ni byiza guteranyiriza abanyeshuri hamwe mu rwego rwo kugira ngo baganirizwe bamenye imico n'imyifatire bikwiye kubaranga, imbere yabo hakaba hateretse ameza ariho igikoresho kifashishwa mu gusakaza amajwi ndetse no kuyarangurura.

Abanyeshuri babiri b'abakobwa barimo gutambuka mu muhanda, bakaba bambaye imyenda igaragaza ko ari abanyeshuri, ruguru yabo hari inyubako yubatse mu buryo bwiza bw'igorofa, hakaba hari igipangu kizitiye inyubako, barimo gutambuka mu muhanda urimo kaburimbo.

Abantu bari mucyumba kirimo ibikoresho by'amashanyarazi, bakaba bose bambaye imyenda ibaranga bigaragaza ko ari abatekinisiye bize gukora ibijyanye n'amashanyarazi, bambaye ibisarubeti by'ubururu, bamwe muri bo bambaye ingofero abandi ntazo bambaye, ni byiza kubungabunga amashanyarazi kubera ko atuma abantu babona umuriro.

Abantu barimo gukina umupira w'intoki uzwi nka vole mu ndimi z'amahanga. Inyuma hakaba hari abantu bicaye ubona ko baje kureba uwo mukino. Hakurya, hakaba hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, bakaba barimo baganira, abenshi muri bo bazamuye amaboko ubona ko biteguye gusubiza ikibazo bamaze kubazwa. Ni byiza kuganira kubora ko bituma abantu bungurana ibitekerezo.

Abanyeshuri barimo kurya, buri munyeshuri akaba afite umuneke, Ni byiza kurya warangiza kurya ukarenzaho urubuto kubera ko bituma ubuzima bwawe bukomeza kumera neza cyane.

Abakinnyi bambaye imyenda yifashishwa mu gihe cyo gukina, bakaba bahagaze mu kibuga, barimo kuganirizwa mbere y'uko batangira umukino wabo, ikipe imwe yambaye ubururu naho indi yambaye umuhondo.

Abantu batandukanye bari mu cyumba, bakaba bambaye amataburiya y'umweru agaragaza ko ari abaganga, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibikoresho byifashishwa mu gihe barimo gutanga serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe bakaba barimo baganira n'umuyobozi wabo, abaganiriza abigisha imico n'imyifatire bikwiye kubaranga, ni byiza kuganiriza urubyiruko rw'abanyeshuri kugira ngo rukomeze rumenye imyifatire ikwiye kururanga.

Udusanduku tubiri duteretse tugerekeranyije, buri gasanduku kakaba kariho ingufuri igafunze mu rwego kugira ngo hatagira umuntu uza akarebamo imbere agatwara ibirimo, iruhande rwabo hari intebe iteretseho irati, yifashishwa mu gihe mwarimu arimo kwigisha imibare.

Akabati gapakiyemo ibitabo byinshi cyane abanyeshuri bifashisha mu gihe barimo kwiga basubira mu masomo, akaba ari byiza cyane kugira ibitabo byifashishwa mu gihe abanyeshuri barimo kwiga ndetse n'igihe bari gusubira mu masomo kubera ko bibafasha mu myigire yabo.

Abanyeshuri babiri bahagaze imbere y'ikigo bigamo, bakaba barimo kuganira bategereje ko umuyobozi w'ikigo abaha uburenganzira bwo kwinjira mu kigo kubera ko baje kwiga bakererewe, ni byiza kugera ku ishuri hakiri kare kubera ko ikigo kiba gifite amasaha abanyeshuri bagomba kuhagerera.

Abanyeshuri b'abakobwa bari mu ishuri bakaba bakoze uruziga barimo kuganirizwa n'umuyobozi ababwira imico n'imyifatire bikwiye kubaranga, ni byiza kuganiriza abanyeshuri kugira ngo bamenye uburyo bakwiye kwitwara.

Icyumba cyigishirizwamo, hakaba harimo intebe abanyeshuri bicaraho mu gihe barimo kwiga ndetse n'ameza bandikiraho. Imbere hari ikibaho umwarimu yandikaho mu gihe arimo kwigisha. Ni byiza kwiga kubera ko bituma umuntu yiyungura ubumenyi ndetse akagira ubwenge busumbye ubwo yari afite.

Abantu bicaye barimo kureba muri mudasobwa bigaragara ko barimo kwiga ikoranabuhanga, mudasobwa ni nziza cyane kubera ko byorohera umuntu kumenya amakuru yose akeneye bitamusabye kuva aho ari.

Icyumba kirimo abanyeshuri barimo kwiga, akaba ari abanyeshuri benshi cyane bambaye imyenda isanzwe ubona ko ari abanyeshuri biga muri za kaminuza, imbere hari umugabo urimo kubaganiriza bisa n'aho ariwe mwarimu wabo.

Abantu benshi bateraniye mu nzu mberabyombi bakaba baje kuganira ku nsanganyamatsiko runaka, ni byiza gukusanyiriza abantu hamwe bakaganira bungurana ibitekerezo kuko byubaka igihugu.

Inzu yubatse mu buryo bwiza bugezweho, akaba ari inzu isize amarange y'umuhondo, hejuru handitseho amagambo agaragaza ko ari igicumbi cy'ahantu hakorerwa udushya, imbere hari ubusitani bwiza cyane.

Inyubako y'igorofa yubatse mu buryo bwiza bugezweho, akaba ari inyubako ifite urubaraza imbere, imbere yayo hari abantu bahagaze ubona ko barimo kuganira, hejuru hari ikirere cy'ubururu cyiganjemo ibicu by'umweru, ubona ko kitari buze gutanga imvura.

Sitade y'umupira w'amaguru, ikaba isakaye harimo imyanya, abantu baje kureba umupira bicaramo ku buryo bwisanzuye, bityo bakareba umupira batanyagirwa haba ku mvura ndetse haba no ku zuba, izuba ntiribice.

Inyubako y'igorofa yubatse mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako yubakishije amatafari ahiye ya ruriba, imbere yayo hari urubaraza abantu bashobora guhagararaho mu gihe barimo gufata umuyaga ndetse n'amahumbezi, hakaba hari ibyuma bihazitiye ku buryo nta muntu ushobora gusimbuka cyangwa se ngo ahanuke.

Icyapa kiriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, kikaba giteye iruhande rw'ishyamba ririmo ibiti birebire bya sipure. Ni byiza gushyira icyapa ahantu kuko byorohera abantu baza gusaba serivisi kumenya aho basabira serivisi runaka.

Ishuri abanyeshuri bigiramo hakaba harimo ibibaho bibiri, kimwe cy'umweru ndetse n'ikindi k'icyatsi, hakaba hari igikoresho kizwi nka porojekiteri kifashishwa mu gihe mwarimu arimo kumurika ku kibaho ibyo abanyeshuri arimo kubigisha mu rwego kugira ngo n'abanyeshuri bicaye inyuma, babashe kubona isomo arimo kubigisha.

Ibintu bitandukanye byifashishwa mu gihe barimo gutanga serivise zitandukanye, hari kandagira ukarabe umuntu ashobora gukarabiraho intoki mu rwego rwo kwisukura, hakaba hari umutaka w'umuhondo wa MTN umukozi ukorera MTN ashobora guhagarara munsi yawo agatanga serivise ndetse n'inyubako yubatse mu buryo bugezweho.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo ameza ndetse n'intebe abantu bicaraho mu gihe baje kuganira. Ni byiza kugira ahantu abantu bashobora kuganirira mu gihe hari ingingo runaka bashaka kunguranaho ibitekerezo.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza butambitse, akaba ari inyubako yubakishije amatafari ahiye kandi mu buryo bw'igorofa, ruguru yayo hari ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko uzwi nka Basket mu ndimi z'amahanga.

Ishuri ririmo intebe nyinshi cyane abanyeshuri bicaraho mu gihe barimo kwiga, akaba ari intebe nziza cyane zubatse mu buryo bwiza bugezweho, ni byiza kwigira mu ishuri ririmo ibikoresho bihagije.

Imodoka nini itwara abanyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda, akaba ari imodoka iriho ibirango bigaragaza ko ari iya kaminuza, harimo abantu bigaragara ko bagiye gukora urugendo shuri.

Inyubako zubatse neza mu buryo bugezweho, imbere yazo hakaba hari imbuga nziza cyane imodoka zishobora guparikamo, ndetse n'abantu bakahanyura hameze neza cyane, hari utwapa tugaragaza ko hatemerewe guparika imodoka.

Akabati gapanzemo ibitabo byifashishwa mu gihe abanyeshuri barimo kwiga ndetse no mu gihe barimo gusubira mu masomo bigishijwe. Ni byiza gusoma ibitabo kuko bituma umuntu yiyungura ubumenyi umunsi ku munsi, bityo akamenya ibintu abahanga banditse.

Icyumba kirimo irido ku idirishya, hakaba hari akabati gateretseho utujerekani dutatu tw'umweru turimo amazi yo kunywa, hakaba hari igikombe kirimo umuti w'amenyo, hasi hakaba harimo inkweto zitandukanye zo kwambara.

Icyumba cyo kuraramo, hakaba harimo urukarabiro ndetse n'umuryango usohoka, hasi hari inkweto z'amoko atandukanye abantu bambara bagiye ahantu hatandukanye, mu nguni hari amabase umuntu ashobora kwifashisha arimo kumesa cyangwa se gukaraba.

Inzu yigirwamo, ikaba irimo intebe zitandukanye abanyeshuri bicaraho mu gihe barimo kwiga. Hejuru hakaba hari igikoresho cya porojegiteri cyifashishwa mu gihe umwarimu arimo kwigisha, mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri bicaye inyuma na bo babashe kubona ibyo arimo kwigisha.

Inzira irimo amabuye ya garaviye, akaba ari inzira inyuze mu ishyamba, akaba ari ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye, ubona ko ari ahantu hasa neza cyane, ibiti bikaba bituma haboneka imvura ndetse n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Inzu zubatse mu buryo bugezweho, akaba ari amacumbi y'abantu mu rwego rwo kugira ngo babone aho kuba, imbere yayo hanitse imyenda y'abantu bayacumbikamo, hepfo y'aho hateye ibiti byinshi cyane ubona ko ari ibiti byakuze cyane bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ahantu hasa neza hubatse mu buryo bugezweho, hakaba hari amazu yubatse mu buryo bumwe ubona afite ibisenge byubatse mu buryo butangaje, hakaba hari ibiti byinshi cyane bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi, hejuru hari ikirere ubona ko cyiganjemo ibicu by'umweru ndetse n'ubururu bitari buze gutanga imvura.

Abantu batandukanye barimo gutambuka imbere y'inyubako isize amarange y'umukara ndetse n'umuhondo, akaba ari inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa, hepfo yaho bari kunyura hari ubusitani bwiza cyane.

Ameza abiri, hejuru hateretseho ibikoresho bitandukanye, amakayi menshi, amakaramu, agasakoshi ndetse hakaba hari n'intebe umuntu yicaraho.

Umubyeyi w'umumama ufite indangururamajwi mu ntoki, wambaye ikarita mu ijosi imuranga, arimo gutanga ikiganiro aganiriza abantu bitabiriye kugira ngo bamenye ingingo nyamukuru y'umunsi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, ahantu umuntu yisukurira ndetse n'ahantu ashobora gutereka ibikoresho bitandukanye, hasi harimo isima nziza ibonerana imeze nk'amakaro.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abakozi bakora kwa muganga. Hakaba harimo abakozi bambaye imyenda y'akazi, irimo amasarubeti ndetse n'ingofero, zibarinda kuba bakwangirika mu mutwe.

Inzu y'uruganiriro, ikaba irimo utubati turiho ibintu byinshi by'ibikoresho byifashishwa, hakaba hari ameza buri imbere y'ameza hateretse intebe abayobozi bicaraho mu gihe barimo gutanga serivise.

Abantu bari mu ishuri barimo kwiga mu rwego rwo kugira ngo biyungure ubumenyi, imbere hakaba hari umugabo wambaye amataratara urimo kubafasha kwiyungura ubumenyi, hejuru hari igikoresho kizwi nka porojegiteri barimo kwifashisha mu gushyira ibintu ku kibaho.

Ishuri abanyeshuri bigiramo, imbere hakaba hari igikoresho kizwi nka ''projecteur'' mu ndimi z'amahanga, bifashisha bamurika ibyo bagiye kwiga ku kibaho; hakaba hari ibibaho bibiri iburyo n'ibumoso, mwarimu yandikaho mu gihe arimo kwigisha.

Akazu gatoya kubakishije ibyuma ndetse kariho ibirahure kakaba kanasakaye, ubona ko ari akazu gatangaje cyane, mo imbere hakaba harimo akantu kariho urutambi, ubona ko hacanwaho itara mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze urumuri, iruhande rwako hicaye umugabo w'umusekerite.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, hari ameza ateretseho mudasobwa, iruhande rwayo hakaba hateretse udukoresho dutandukanye, hakaba hari intebe umuntu yicaraho, hakaba hari andi meza ariho ibikoresho, hejuru hakaba hamanitse imyenda, hari n'indorerwamo bireberamo.

Icyumba cyo kuraramo hakaba harimo igitanda kigeretse, hari uburiri hasi ndetse n'ubundi hejuru, inyuma y'igitanda hakaba hari utubati tubiri kamwe ni karekare akandi ni kagufiya.

Umuryango uriho igipapuro kigaragaza umuyobozi uhakorera, mu rwego kugira ngo abantu baza gusaba serivisi bijye biborohera kumenya umuntu uhatangira serivisi ndetse no kubona imyirondoro ye mu buryo bworoshye.

Inzu mberabyombi irimo intebe z'umutuku, hakaba harimo abantu barimo gusohoka ubona ko hari igikorwa nyamukuru cyari cyabateranyije hanyuma kikaba kirangiye bigeze mu mwanya wo gutaha.

Ubusitani bwiza cyane buzengurutseho indabo, hakurya hakaba hari inyubako yubatse mu buryo bwiza ubona ko ari ndende isakaje amabati y'umutuku, mu busitani hakaba hateyemo ibiti bimeze nk'amapera.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye ubona ko ari uruganiriro abantu bahuriramo bagahana ibitekerezo, kuganira ni byiza kuko bituma abantu bahura bagasabana.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri barimo kwiga, kwiga ni ingenzi kubera ko bituma abantu biyungura ubumenyi, bakamenya ibintu byinshi bitandukanye bishobora kuzabafasha mu gihe kizaza. Imbere hari ikibaho, mwarimu arimo kubigishirizaho.

Umugabo urimo gufata ibyo kurya mu rwego rwo kugira ngo abishyire abakiriya, ni byiza kurya indyo yuzuye kubera ko iyo umuntu arya neza akura neza, akagira ubuzima bwiza kandi akazagira amasaziro meza.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, hakaba bari harimo n'ibikoresho bitandukanye, indangururamajwi ndetse n'ameza intebe n'ibindi bikoresho biteretse ku meza, hakaba hari n'ibishusho bigaragaza serivise zihatangirwa.

Icyapa kiriho ikirango cya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, kikaba ari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hepfo yacyo hari umuhanda wa kaburimbo n'umuntu wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara urimo kuzamuka.

Icyumba cyo kuraramo kirimo igitanda gishashe kiriho n'umusego, hejuru hakaba hamanitse imyenda y'amoko atandukanye, amashati ndetse n'amapantaro ndetse biri mu mabara atandukanye, nibyiza kumanika imyenda kubera ko bituma idahinamirana.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bw'igorofa, akaba ari inyubako yubatse neza, ubona ko yubatswe n'abahanga, imbere yayo hari imbuga ishashemo amatafari y'umutuku, hakurya hakaba hari ibiti byinshi cyane, bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Umuyobozi urimo gutanga ikiganiro, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye umupira w'amaboko magufi w'icyatsi, ingofero y'umweru, inyuma ye hakaba hari ikirango kigaragaza igikorwa nyamukuru cyabateranyirije hano.

Inzu yubatse mu buryo bwiza bugezweho ikaba yubatse mu buryo bw'agacurama, hejuru hakaba hari anteni ituma bareba amakuru yo mu mahanga ndetse n'imipira yo mu mahanga, imbere y'ahantu binjirira hakaba hari icyapa kigaragaza serivise zihatangirwa.

Icyumba kirimo igitanda cyo kuryamaho kikaba gishashe neza cyane ubona ko ari ahantu hatunganyijwe, iruhande mu nguni hakaba hari intebe nziza yo kwicaraho ndetse n'ameza yo kwandikiraho ateretseho ibitabo.

Utubati dupanzemo ibitabo bitandukanye, akaba ari ibitabo umuntu ashobora gusoma cyangwa se akagura, akajya gusomera iwe mu rwego rwo kugira ngo yiyungure ubumenyi ndetse anamenye amateka y'ibintu bigiye bitandukanye.

Inyubako zitandukanye zubatse neza zikaba zisize amarange y'umuhondo, hagati muri zo haciyemo akayira kanyurwamo n'abanyamaguru gashashemo amapave, hakaba hari ibiti bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe umuntu arimo gutanga serivise, hakaba hari ibishusho bitandukanye byometse ku gikuta, ku buryo bituma hagaragara neza cyane.

Abanyeshuri bicaye barimo kwiga ubona ko barimo kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, buri munyeshuri ahantu yicaye imbere ye ahafite mudasobwa, imbere hari umuntu urimo kubasobanurira ibyo bagiye kwiga ndetse n'ibyo bagiye gukora.

Urugi ruriho icyapa kigaragaza ko ari ibiro by'umuyobozi ushinzwe amasomo muri kaminuza y'u Rwanda, hejuru hakaba ariho nimero igaragaza icyumba mu rwego kugira ngo umuntu uje gusaba service ajye amenya nimero y'aho agiye gusabira service.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza bugezweho, akaba ari igorofa rigeretse gatatu. Imbere yaryo hari amadarapo abiri, idarapo rigaragaza ikigo icyo ari cyo ndetse n'itarapo igaragaza igihugu cy'u Rwanda. Imbere yaho hakaba hari aho imodoka ziparika.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bigiraho ibijyanye n'ubuvuzi, ni byiza kwigisha abanyeshuri mu gihe ufite ibikoresho bihagije kuko bituma bamenya neza icyo ubigisha kugira ngo bazabikore na bo mu gihe kizaza mu buryo bwiza.

Utubati duteretsemo ibitabo abanyeshuri basoma mu gihe barimo kwiga ndetse no mu gihe barimo kuyungura ubumenyi, ni byiza kubungabunga ibitabo tubipanga neza mu rwego rwo kugira ngo bizamare igihe kirekire kubera ko abanyeshuri babikoresha uko umwaka uje n'uko undi ugiye.